Ndi kubona inzu y'ubucuruzi iherereye mu mujyi y'amagorofa atatu hariho abantu babiri bari kuganira amadirishya arafunguye hejuru handitse ca keyisi Kigali investimenti kampani.

Oke ndikubona inzu iri mu bwoko bwubatse nka konoshi, ifite igipangu cy'umukara, amarangi asa beje, gureyi, amadirishya y'umweru afite ibirahuri bya fime, hirya hari indi nzu ku ruhande ya.

Ndi kubona inzu ikodeshwa, ikakodeshwa amadolari igihumbi magana atanu mu kwezi, iri mu Rugando hafi ya konvesheni senta, ni inzu ya etaje y'amagorofa abiri, hari umuntu hanze hari intebe, yego.